Aba ni abanyeshuri, abanyeshuri b’abakobwa gusa, bose bambaye inkweto n’amasogisi y’umweru, bambaye amashati ndetse n'amajipo ndetse na karuvati.

Abantu bicaye, bafite amaseritifika mu ntoki, imbere yabo hari ameza, ku meza hateretse porojegiteri, bambaye ingofero, bambaye n'amakanzu.